Icyi nicyapa kinini cyane kiriho inzoga y'uruganda rwa burarirwa yitwa minsingi kikaba cyerekana ko hano hafi hari akabari.

Iki ni icyapa kinini cyane kiriho abantu bishmye bari ahantu hameze nko mu kabari ndetse kikaba kiriho n' inzoga nini cyane ya skol akaba ari uburyo bwo kwamamaza iki kinyobwa.

Aha ni mukabari mu masaha ya mugitondo, hari umukozi waho ufite inzoga ari kugenda aha abakiliya bicaye munsi y'imitaka isa icyatsi.

Aha ni mu kabari karimo akabati kanini gateretsemo inzoga z'amoko agiye atandukanye, ku ruhande hari inyakiramashusho irimo umupira w'amaguru.

Aka ni akabari karimo amagaziye y'inzoga zitandukanye ndetse n'izindi nyinshi ziri mu kabati hejuru, akaba ari kuri kotwari aho umucuruzi w'akabari haba ahagaze yumva ibyo abakiriya bashaka ngo abibahe.

Aha ni ahantu habugenewe mu gufatira amafunguro rusange, aho umuntu wese ufite amafaranga aza akagura ibiryo; hakaba hari igisenge k'ibiti ndetse n'ameza ariho ibitambaro.

Aha ni mu kabari, mu masaha ya nijoro, karimo abantu batari benshi cyane, ndetse n'amatara avangavanze mu ibara ry'umutuku n'icyatsi, hari na fanta iteretse ku meza.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa mu kabari n'ahandi hantu hatangirwa serivise n'abantu benshi aho utungaho kamera ya telefone bakaguha amakuru yibyo ugomba kwishyura byose.

Aha ni mu kabari karimo inzoga z'amoko menshi atandukanye, inyuma hakaba hari umuntu ushinzwe kuba yaziha abakiriya, hejuru hakaba hari n'ibindi birangantego biranga aka kabari ako ari ko.

Aha ni mu kabari, akaba ari mu masaha ya nijoro, harimo amatara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru, wicaye ku ntebe n'undi urimo uragendagenda, ushinzwe guha abakiriya ibyo bashaka.

Aha ni mukabari mu masaha ya mugitondo hakaba nta muntu n'umwe urimo, hari imeza iteretseho udukoresho tw'umuntu ushinzwe gufasha abakiriya akabaha ibyo bakeneye ndetse n'inyuma mu tubati harimo inzoga zigiye zitandukanye ziri hirya y'inyakiramashusho.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira w'umukara wishimye uri guseka, akaba afite akamashini ka banki gashinzwe gukura amafaranga ku ikarita.

Aha ni mu kabari gateretsemo inzoga ihenze ku meza, ku ruhande hari akarahure gatoya bayisutsemo, inyuma hari umukozi ushinzwe kuba yakakira abakiriya.

Iki ni icyapa cy'uruganda rwa sikoro rukorera hano mu Rwanda kikaba kiriho abantu bagera muri bane bishimye bigaragara ko bari mu kabari.

Aha ni mu kabari mu masaha ya ni joro, karimo amatara yaka umutuku n'umweru ndetse n'umweru, hicayemo abagabo babiri bari kureba ku inyakirashusho yabo umupira w'amaguru.

Aha ni mu kabari hakaba hahagaze abagabo babiri bashinzwe kuba bahereza abakiriya ibyo baba bifuza, inyuma yabo hakaba hari n'ibicuruzwa bagenda batanga.

Aha ni mukabari karimo urukuta rurerure cyane, ruriho amabara: y'umutuku, umweru, umukara, umuhondo, akaba ari ibishushanyo by'uruganda rwa sikoro rukorera hano mu Rwanda.

Iyi ni inyemezabwishyi umucuruzi aha umukiriya, mu rwego rwo kugaragaza ibintu byoshye yahashye, ndetse n'agaciro kabyo, mu rwego rwo kwirinda ubujura ndetse no kunyereza amafaranga.

Iki ni icyapa kerekana ko hano hari akabari, hakaba hariho ibishushanyo by'inzoga iri mu ivide ndetse no mu kirahure, bimwe mu bintu bikurura abakiriya iyo baje kunywa inzoga.

Uyu ni umukozi wo mu kabari, wambaye ishati y'umukara, ufite umusatsi mwinshi, akaba ateruye agatase mu ntoki, inyuma ye hari akabati karimo inzoga z'amoko atandukanye.

Aha ni mukabari karimo abantu benshi batandukanye hakaba hari amacupa y'inzoga yo mu bwoko bwa pirimusi akaba akorwa n'uruganda rwa bularirwa ndetse n'icyapa cy'umuhondo kigaragaza uburyo byo kwishyura ukoresheje terefone.

Uru ni urupapuro rufasha umukiliya kuba yahitamo ibyo agura bitewe n'ibiciro biba biriho, rukaba rukoreshwa mu kabari ndetse no mu nzu zo kuriramo rusange.

Uyu ni umukozi wo mukabari akaba afite itase yabugenewe gushyirwamo inzoga ku kindi kiganza akaba afashe inzoga nini mu ntoki aho ari kugenda ayisangiza abakiriya.

Aka na kabari, ni mu masaha ya nijoro, harimo umuntu umwe ushinzwe kuba yakira abakiriya, inyuma ye hari ibyuma bikonjesha inzoga.

Iyi ni ikarita ya banki ndetse n'akamashini gakoreshwa mu gihe ushaka kwishyura umuntu uwo ari we wese, bitagusabye ko ujya ku cyicaro gikuru kubikuza amafaranga.

Aha ni mu kabari, mu masaha ya mugitondo, harimo abakiriya bakeya barimo baranywa, barikureba ku nyakiramashusho firime, imbere harimo umutu ushinzwe kubaha ibyo kunywa.

Aka ni akabari kariho icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse hakaba hanashushanyijeho bimwe mu bicuruzwa bacuruza birimo; inkoko, amafiriti n'ibindi bitandukanye, hakaba hacuruzwa n'inzoga.

Uru ni urupapuro rwifashishwa n'abakiriya bo mu kabari iyo bakeneye gutumiza ibyo bifuza gufata, haba handitseho amazina y'amoko atandukanye y'ibiryo ndetse n'inzoga.

Iki ni icyapa kinini cyane kiri kwamamaza inzoga ya mitzing, kikaba kinerekana ko hano hari akabari mu rwego rwo gukurura abakiriya hirya no hino.

Iki ni icyapa kiriho inzoga y'uruganda rwa Skol, iri mu bwoko bwa Malt, akaba ari hafi y'akabari nk'ikimenyetso kimenyesha buri muntu ibikorerwa hano.

Aha ni mu kabari mu masaha ya mugitondo, harimo umukozi wako akaba ahagaze imbere y'inyakiramashusho zizimije, inyuma ye hari inzoga ziri mu tubati.

Aha ni mu kabari karimo amatara avangavanze, ndetse n'inyakiramashusho nini cyane, irimo umupira w'amaguru; hakaba harimo n'imeza bakiriraho abakiriya.

Iki ni icyapa kigaragaza ingengabihe y'iminsi igize icyumweru k'umunsi bigaragaza buri nzoga ndetse n'igiciro cya buri nzoga, bikaba bisasha umuguzi kumenya neza amafaranga arishyura.

Aha ni mu kabari karimo amatara menshi cyane ari mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, akaba ari mu masaha y'ijoro ntabantu benshi barimo.

Aha ni mukabari mu masaha ya nijoro, harimo amatara acanye cyane, harimo abantu bishimye barimo barasangira inzoga ndetse n'umuntu ushinzwe kuzibaha uri kugenda.

Aha ni mu kabari harimo abantu benshi bishimye bari kunywa inzoga ndetse n' aband bari kubacurangira hakaba hari imeza iteretseho amavide maremare.

Aba ni abantu benshi bari mu kabari barimo barasangira inzoga zigiye zitandukanye bakaba barimo kureba umupira w'amaguru ku nyakiramashusho nini cyane.

Iki ni icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'icyatsi cy'uruganda rwa virunga rukora inzoga hakaba hariho n'amafoto y'abantu bishimye cyane bari mukabari.

Aha ni mukabari mu masaaha ya kumanwa, hakaba ntamukiriya n'umwe urimo, usibye ibikoresho byaho ni intebe ndetse n'ibyuma bikonjesha inzoga.

Aha ni mukabari, hicaye umuntu uri kunywa inzoga icagase, akaba yitegeye inyakiramashusho irimo umupira w'amaguru ndetse ari nako akomeza gutumiza ibyo kunywa.

Aha ni mu kabari mu masaha ya nijoro, harimo umukobwa ukora hano wambaye imyenda y'umukara uri guha inzoga umukiriya yo mu bwoko bwa henikeni.

Aha ni mukabari hari inzoga nini cyane iri mu gishushanyo cy'inzoga yo mu bwoko bwa tasika, hari amatara yaka icyatsi cyane, ndetse n'abakiriya barimo barasogongera kuri bimwe mu bicuruzwa bya hano.

Aha ni mu masaha ya nijoro mu kabari harimo amatara y'ubururu, icyatsi, umweru hakaba harimo abakiriya bakeya ndetse n'umukozi ushinzwe kubaha ibyo bifuza kunywa.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara ukora mu kabari, akaba afite agatase k'umweru mu ntoki arimo arasukamo inzoga ashyiriye umukiriya.

Aha ni mu kabari karimo abagabo bizihiwe bari kuganira ndetse bavugana n'umukozi ushinzwe kubaha serivise ababaza ibyo bakeneye kunywa ngo abibazanire.

Aha ni mu kabari, mu masaha ya nijoro, hakaba hari imeza ndende yakirirwaho abakiriya, iteretseho indobo irimo inzoga zo mu bwoko bwa Sikoro, inyuma y'aho hakaba hari inyakiramashusho.

Uru ni urupapuro rwabugenewe rukoreshwa mu kabari ndetse no mu nzu zo kuriramo rusange, ruba ruriho buri kintu n'igiciro cyacyo, bikaba bifasha umukiriya kuba yamenya ibyo aragura.

Aya ni ameza yo mu kabari, yegeranye n'intebe iriho ishati y'umucuruzi, inyuma yaho hari akabati karekare cyane, gateretsemo inzoga zirimo amatara amurika cyane.

Hano ni mu kabari aho abantu basohokera bagiye kwinezeza, dusangamo umuziki berekana umupira, bakanatanga inzoga n'ibindi byo kunywa bidasembuye bikaba ari bimwe mu bigize akabari.

Aha ni mu kabari aho nta muntu n'umwe urimo, hakaba hari imeza ndende inyuma yayo hari akabati karimo inzoga ndetse n'inyakiramashusho iri kwaka ku ruhande.

Aha ni mu kabari, akaba ari mu masaha ya ninjoro. Hicayemo abantu babiri bari kureba ku nyakiramashusho yabo umupira w'amaguru, ariko bananywa inzoga, ndetse n'inyuma y'inyakiramashusho hari inzoga zigiye zitandukanye z'amoko menshi cyane.

Aha ni mu kabari mu masaha ya mu gitondo, harimo abantu babiri hejuru yabo hari inyakiramashusho zirimo filime ndetse n'umupira w'amaguru.

Aha ni mu kabari, akaba ari ku manywa, nta mukiriya n'umwe uri hano hantu, hari imeza ndende, ndetse n'utubati turimo inzoga z'amoko yose.

Uru n'urupapuro rukoreshwa mukabari ndetse n'ahantu bafatira amafunguro rusange, ruba ruriho ibinyobwa bisindisha nibidasindisha ndetse nibiribwa hakaba haba hariho n'amafaranga biguze.

Aha ni mu kabari mu masaha ya mu gitondo hakaba nta muntu n'umwe urimo usibye ibikoresho byaho nk'intebe, utubati ndetse n'inyakiramashuashi icanye irimo umupira.

Iki ni icyapa kinini cyane kiriho abantu babiri bishimye ndetse n'ikirangantego cyuruganda rw'inzoga cya sikoro, kikaba kiri mw'ibara ry'umutuku, icyatsi n'umuhondo ndetse n'umukara.

Aha ni mu kabari, hakaba hari inyama zitandukanye, inyuma y'inyama hakaba hari inzoga iri mu kirahuri yo mu bwoko bwa byeri ndetse hari n'akapa gatoya kagaragaza uburyo bwo kwishyura, aho utungaho kamera ya telefoni yawe, bagahita bakwereka uburyo bwiza bwo kwishyura amafaranga.

Iki ni icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umweru n'umutuku kikaba cyanditseho Amstel akaba ari imwe mu nzoga zikorwa n'uruganda rwa BRALRWA rwo mu Rwanda.

Iki ni icyapa kinini cyane cyerekana ko hano hari akabari, kikaba kiriho ibirangantego by'aka kabari ndetse n'amafoto y'inzoga mu rwego rwo kwamamaza ibihacururizwa.

Aha ni mu kabari, hari amatara y'amoko yose, yiganjemo ibara ry'ubururu, ndetse n'abakiriya barimo baranywa inzoga, bicaye ku dutebe tureture.

Aha ni mu kabari, akaba ari ku masaha ya nijoro, hicayemo abantu bagiye batandukanye, imbere yabo hari inyakiramashusho irimo umupira w'amaguru, barimo baranasangira inzoga.

Aha ni mu kabari mu masaha ya nijoro, karimo amatara y'ubururu, umutuku n'umuhondo. Kicayemo abantu bakeya ndetse n'umuntu ushinzwe kubaha ibyo bashaka.

Aha ni mukabari mumasha ya nijoro hakaba harimo inzoga zihenze cyane, za moko menshi, hejuru hari inyakiramashuho irimo umupira w'amaguru.

Aha ni mu kabari mu masaha ya mugitondo nta bakiriya uhari hahagazemo umukozi ushinzwe kwakira abantu baje bahagana, uri kwitegereza inzoga ziri mu kabati hejuru.

Iki ni icyapa kinini cyane gishushanyijeho inzoga yo mu bwoko bwa mitsingi ikorwa n'uruganda rwa burarirwa imbere yaho hakaba hari umutaka w'umuhondo w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni Rwanda.

Iki ni ikirahure cya bugenewe gishyirwamo inzoga zigiye zitandukanye kikaba ari icy'uruganda rwa Amusiteri, giteretse ku meza bakiriraho abakiriya inyuma hari n'izindi nzoga ziri mu kabati.

Aha ni mu kabari kariho imeza iteretseho inzoga eshatu imwe yitwa mitsingi, indi ya sikoro n'indi ya musiteri byose bikaba bikorwa n'uruganda rwa burarirwa.

Aha ni mu muhanda urimo umutwazi wa moto, hirya hakaba hari imodoka ebyiri, ziri kumwe n'icyapa gishushanyijeho inzoga ya amusiteri, kiri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Aha ni mu muhanda uteganye n'akabari kariho icyapa kinini cyane kiri hejuru, kiri mu mabara y' umutuku cyanditseho amusiteri, akaba ari uburyo bwo kwamamaza iki kinyobwa.

Aha ni mu kabari, akaba ari mu masaha ya mu gitondo, harimo abantu bagera kuri bane bishimye, barimo barasangira ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kurya.

Uru ni urupapuro rwabugenewe rwifashishwa mu kabari cyangwa ahantu hatangirwa ibiryo rusange, haba handitseho ubwoko bw'amafunguro ndetse n'ibyo kunywa ku ruhande hariho n'ibiciro byabyo.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku n,umweru kikaba cyanditseho Amusiteri, akaba ari inzoga y'uruganda Burarirwa rukorera mu rwanda. Hakaba hariho n'icupa rinini cyane ndetse n'ikirahure kirimo iyi inzoga mu buryo bwo kwanamaza iki gicuruzwa.

Aha ni mu kabari mu masaha ya nijoro, harimo amatara y'icyatsi, ubururu, umutuku, hirya hari inyakiramashusho nini cyane iri kwaka.

Aba ni abakozi bo mu kabari batatu bishimye nk'ikimenyetso cy'uko batanga serivise nziza, inyuma yabo hakaba hari inzoga nyinshi z'amoko menshi atandukanye bagenda baha abantu.

Iki ni icyapa kinini cyane kirimo ibara ry'umutuku n'umweru, hakaba hashushanyijeho inzoga yo mu bwoko bwa musiteri iri no mu kirahure, hakaba herekana ko hano hafi hari akabari.

Uyu ni umukozi wo mu kabari, ufite akamashini kishyuza kagakura amafaranga ku ikarita ya banki, akaba yambaye umupira w'umukara inyuma ye hari icyapa kiriho inzoga.

Aha ni mu kabari hari abantu benshi bari gufata ibinyobwa bigiye bitandukanye, dusangamo ibisindisha ndetse n'ibidasembuye. Akaba ari ahantu umuntu ashobora kuruhukira igihe atari mu masaha y'akazi.

Aha ni mu kabari, akaba ari mu masaha ya mu gitondo; hakaba hicayemo umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ari kureba ku nyakiramashusho umupira w'amaguru.

Aha ni ahantu habugenewe mu gufatira amafunguro ya rusange, hari abantu babiri bari gukomanya amavide arimo fanta irindi ririmo amazi.

Aha ni mu kabari, akaba ari mu masaha y'ijoro, hakaba hari amatara y'amoko menshi atandukanye n'abakiriya bicaye bari gusangira inzoga; n'umuntu ushinzwe kuzibazanira, uri kunyuranyura hagati yabo.

Iki ni icyapa kiriho uburyo bo kwishyura aho umuntu akoresha terefone agacana camera ye akamurika kuri iki kirangantego cyo kikamubwira amafaranga agomba kwishyura.

Uru ni urupapuro rwifashishwa mu nzu bariramo rusange, ruba ruriho ubwoko bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bihari, hakaba haba hariho n'ibiciro byabyo ku ruhande.

Aha ni mu kabari karimo amatara manshi cyane, y'uruvange, atukura, ay'icyatsi, ndetse n'ay'umuhondo, hakaba hahagazemo umuntu ushinzwe kwakira abakiriya.

Aha ni mu kabari mu masaha ya mugitondo, harimo inyakiramashusho irimo umugabo w'Umuzungu uri kuvuga, hirya y'aho hari inzoga z'amoko atandukanye zihenda cyane.

Aha ni mukabari mu masaha ya nijoro harimo abakiriya bakeya, hari umukozi ushinzwe kubaha ibyo bashaka, inyuma ye hari akabati karimo inzoga ziri mu matara anyuranye yaka umutuku n' icyatsi.

Aha ni mu kabari karimo abantu benshi cyane bari kunkwa inzoga z'amoko atandukanye inyuma hakaba hari nundi ushinzwe kubaha ibyo bakeneye byose.

Aya ni ameza yo mu kabari, akaba ateretsweho ibirahuri bibiri birimo umuvinyo, ndetse n'igicupa kinini cyane; inyuma hakaba hari amatara amurika cyane ndetse n'izindi nzoga zitandukanye.

Aha ni mu kabari aho ntamuntu n'umwe urimo, akaba ari ku meza yakirirwaho abakiriya. Inyuma hari icyuma gikonjesha inzoga ndetse n'ibindi birahure biteretse hejuru mu tubati.

Aha ni mu kabari mu masaha akuze ya nijoro, hari umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku ushinzwe kumuha ibyo akeneye, akaba ari kureba inyakiramashusho.

Aha ni mu kabari, akaba ari mu masaha ya mugitondo, nkuko bigaragara abakiriya ntago baba bahari mu gitondo , hano akaba ari ku meza bakiriraho abantu, inyuma hakaba hari ibyuma bishizwe gukonjesha inzoga, ndetse n'inzoga zirimo imbere.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa mu kabari n'ahandi hantu hatandukanye, aho umuntu afata telefone agatungaho kamera, akaba yabasha guhabwa amakuru atandukanye y'ibikorerwa aho hantu.

Iki ni icyapa kinini cyamamaza inzoga ya sikolo kikaba kiri hafi y'akabari hakaba hariho abantu bane bishimye bisa nkaho bari mu kirori.

Aka ni akabari gateyeho irange ry'umuhondo riranga uruganda rukora inzoga za sikolo ndetse hakaba hari n'icyapa kinini kiri hejuru kiriho igishushanyo k'iyi nzoga.

Aha ni mu kabari hateretsemo icupa ry'inzoga yo mu bwoko bwa virunga misiti. Ikaba isutse no mu kirahure kinini cyane, ikaba ikorwa n'uruganda rwa sikoro.

Iki ni icyapa k'icyatsi kinini cyane kiriho inzoga yo mu bwoko bwa virunga siriva, hakaba hariho n'abantu benshi cyane bishimye bari kunywa iyi nzoga.

Aha ni mu kabari hakaba hari icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'icyatsi gishushanyijeho inzoga yo mu bwoko bwa virunga ndetse n'ikirahure bayisutsemo gisa umuhondo.

Aha ni mu kabari mu masaha ya nijoro, hicaye umugabo wambaye imyenda y'umukara, uri kuganira n'umuntu ushinzwe kumuha ibyo akeneye, nawe wambaye imyenda y'umukara, inyuma hari inzoga zigiye ziri mu kabati.

Iyi ni kode utungaho kamera ya telefone mu kabari cyangwa ahandi hantu hakorerwa ubucuruzi, ikakubwira amafaranga ugomba kwishyura uburyo angana.

Aya ni ameza yo mu kabari ateretseho ibinyobwa biri mu macupa ndetse n'ibirahure, hagati harimo akapa Gato k'umuhondo karimo igishushanyo cy'inzoga nacyo cyamamaza ubundi bwoko bw'inzoga nayo ibarizwa muri aka kabari.

Aha ni mu kabari karimo inzoga yo mubwoka bwa musiteri iri no mu kirahuri biteretse ku meza imbere hari inyakiramashuho ebyiri zirimo gucaho umupira w'amaguru.

Aha ni mukabari karimo imeza iteretseho ivaze irimo ururabo inyuma hakaba hari icyuma gikonjesha inzoga n' izindi nzoga zr mu tubati hejuru.

Aya ni amandazi akorwa hifashishijwe: ifarini, amazi, isukari, n'amagi; akaba azwi ho kugira intungamubiri zirimo ibitera imbaraga.

Iki ni icyuma cyabugenewe kibikwamo amata akaba yamara igihe kinini agifite ubuziranenge, hakaba hari n'umuntu urimo urayavoma mu gikombe.

Aha ni mu nzu y'ikusanyirizo ry'amata hakaba harimo ibicuba byinshi cyane byagenewe gutwarwamo amata, bayajyana ahantu hatandukanye bagenda bayacururiza.

Aha ni ahantu uruganda rw'Inyange rukora amata ndetse n'indi mitobe rukorera, hakaba harimo icyuma gikonjesha gisa ubururu n'abakozi bambaye imyenda y'umweru.

Iri ni iduka ricuruza amata y'uruganda Mukamira ndetse n'ibindi bicuruzwa bidasembuye, bakaba bifashisha ibyuma bikonjesha mu rwego rwo kurinda ubuziranenge bwabyo.

Iki ni icyuma cyabugenewe mu gukonjesha amata kugira ngo agumane ubuziranenge bityo rero abaguzi bayo bakaba bayagura akimeze neza.

Iki ni icyuma cyabugenewe mu gukonjesha amata ndetse no kuyavomera abantu baba baje kuyagura, kikaba kiyarinda kuba yakwangirika akabikika igihe kirekire.

Aha ni munzu yabugenewe icururizwamo amata ya mukamira y'ikivuguto ndetse n'ay'ishyushyu , hakaba hari inyuma akabati gasa ubururu gateretsemo utudobo turimo amandazi.

Aha ni mu nzu icururizwamo amata ndetse na fanta, hakaba harimo icyuma gikonjesha cyanditseho Mukamira nk'uruganda rubikora, ndetse hakaba harimo n'umugabo urimo utambuka.

Uyu ni umubyeyi uri kunywa icyayi mu gatasi, mu nzu bariramo ibyo kurya bitandukanye, cyane cyane amandazi, imigati n'ibindi byo kurya byoroheje.

Iyi ni isambusa iteretse ku isahani y'umweru yashonyweho, ikaba ikorwa mu ifarini babumbabumba mu kinyampande cya mpande eshatu, bagashyiramo n'inyama z'inka cyangwa iz'ihene.

Aha ni mu nzu y'ikusanyirizo ry'amata, haka hari amazi ari gutemba hasi ndetse no hanze hari ibicuba bazanamo amata bayagemuye.

Aha ni mu nzu yagenewe gucururizwamo amata ndetse n'ibikomoka ku nka byose, hakaba harimo imashini y'umweru ifitemo utwuma twikaraga dutanga ubukonje n'amafu mu nzu.

Uyu ni umubyeyi ndetse akaba n'umukiriya, ufite itasi irimo icyayi, akaba yicaye mu iguriro ritanga ibyo kunywa bidasembuye, aho dusangamo n'amata ndetse n'indi mitobe myinshi igiye itandukanye.

Iyi ni inzu irimo ibikoresho binini cyane byabugenewe mu gutwara amazi y'uruganda rwa jibu ndetse ku ruhande hakaba hari n'icyuma gishinzwe kuba cyayakonjesha mu gihe umuntu yaza akeneye kunywa ibintu bikonje.

Iki ni nicyapa kiriho umwana uri mu kigero kiri hagati y'imyaka icumi n'itanu, aho ari kunywa amata ari mu kirahure cy'inyange.

Aha ni mu nzu icururizwamo amata ndetse n'ibindi biyakomokaho hakaba harimo ibyapa biriho ibishushanyo byerekana ibicuruzwa bihacururizwa.

Uyu ni umugore wambaye agapira k'umweru, ari gucuruza amata atunganywa agahindurirwa ibara ndetse n'icyanga, yongerwamo isukari.

Iri ni iguriro ry'uruganda rw'Inyange rukora amata rukanatunganya imitobe itandukanye, higanjemo amabara y'ubururu ndetse no mu kabati harimo amandazi yo kurya.

Iki n'icyuma cyabugenewe mukubika amata kikayakonjesha kugirango adapfa, kikaba aricy'uruganda rwa Nyanza gishushanyijeho inka, cyiri m'amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Iyi ni inzu icururizwamo amata y'inshyushyu n'ikivuguto, hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi uteruye akabido, inyuma ye hari indobo zirimo amandazi.

Aha ni mu nzu aborozi bagemuriramo amata yabo, agashyirwa muri ibi byuma biyakonjesha kugira ngo adata ubuziranenge, mu gihe abakiriya bagiye kuyagura.

Aha ni mu nzu yabugenewe y'uruganda rw'inyange, aho bacuruza amata ndetse n'amazi, hakaba harimo abakiliya batatu baje kuba bahaha bimwe mu bicuruzwa by'aha ngaha.

Aba ni abantu bari mu nzu, bari kunywa amata mu birahure binini cyane, nka kimwe mu binyobwa bigira intungamubiri ndetse usangamo ibyubaka umubiri, ibikomeza umubiri, ndetse n'ibitera imbaraga.

Uyu ni umugore ukora mu nzu icururizwamo amata ndetse n'icyayi akaba afashe akabido k'umuhondo mu ntoki, hirya ye hakaba hari ibyuma bigera muri bine byabugenewe mu kubika ubushyuhe.

Uyu ni umubyeyi, uri kunywa amata mu kirahure cy'umweru, ndetse ari kumwe n'umwana we, bicaye, imbereye yabo hari imeza iriho utubido tw'umweru n'umuntu uhagaze hejuru yabo.

Aya ni amagi ateretse ku gakarito kabugenewe akaba akomoka ku nkoko, hano ni mu nzu icururizwamo amata ndetse n'ibindi byokunywa bidasembuye.

Aha ni mu ikusanyirizo ry'amata, harimo abagabo babiri bafashe igicuba babuganiza amata, mu kigega kinini cyane cyabugenewe mu kuyakonjesha ngo adapfa.

Aya ni amandazi menshi harimo abiri ashonyeho ateretse ku isahani y'umweru akaba agira intungamubiri ndetse n'ibindi bikomeza umubiri bikanawutera imbaraga.

Iyi ni itasi irimo amata y'inshyushyu, ikaba iteretse ku meza y'umweru, hirya hakaba hari isahani yabugenewe ishyirwaho amandazi cyangwa imigati y'abakiriya.

Iki ni icyuma cyabugenewe mu gukonjesha amata, amazi n'indi mitobe gisa umweru, ku ruhande hakaba hari ibido y'uruganda rwa jibu rutunganya amazi.

Iyi ni inzu iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, akaba ari iy'uruganda rukora amata, rwa Nyanza, mo imbere hakaba harimo imeza z'umweru, ndetse n'akabati karimo amata n'ibindi byo kunywa.

Iyi ni indobo iri ku meza, irimo amandazi akorwa mu ifarini, isukari, amazi, bashyira mu mavuta ashyushye cyane, akaba agira intugamubiri zirimo ibikomeza umubiri n'ibitera imbaraga.

Aha ni mu nzu igurirwamo amata y'inshyushyu, hakaba harimo umukobwa ufashe ijagi isa icyatsi, yambaye umupira w'ubururu bwerurutse, mu idirishya harimo umukiliya waje kugura amata.

Utu ni utugunguru turi imbere y'ahantu uruganda rwa NYANZA rucururiza amata tukaba ari utw'ikigo gishinzwe gukora amazi cya JIBU kikanayatunganya neza duteretse mu twuma turiho amabara y'ubururu.

Iyi ni inzu y'uruganda rw'inyange rucuruza amata n'imitobe, ikaba iri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi n'umweru mu imbere harimo ibyuma bikonjesha.

Izi nincapati ziteretse ku isahani ndetse zikaba zisa nk'izashiririye zikorwa mu ifarinini n'igipondo baponda basizemo ibirungo bitandukanye.

Aha ni mu nzu yabugenewe icururizwamo amata y'ikivuguto ndetse n'inshyushyu, hakaba harimo n'icyuma kiyakonjesha cy'uruganda rwa Nyanza, hari n'intebe z'umweru inyuma yacyo.

Iyi ni inzu icururizwamo amandazi akaba ari mu ndobo iteretse ku meza ndetse hateretseho amagi n'imineke hahagaze umugabo waje kuba yagura bimwe mubicururizwa hano.

Aya ni amata ashyirwamo ibirungo bituma ahindura umwimerere wayo ndetse akanahindura ibara y'uburyohe akaba akorwa n'uruganda rwa Mukamira dayari, aya akaba ari mu bwoko bwakorwa mu nyeri.

Uyu ni umwana uri hagati y'umwaka umwe ndetse n'imyaka itanu, akaba afite telefone mu ntoki, akaba aherereye mu ikusanyirizo ry'amata, aho turi kubona ibinika babikamo amata ndetse inyuma ye hakaba hari n'abandi bantu bari guseka bishimye.

Aya ni amazi ari mu ducupa tureture, akaba ari ay'uruganda rwa Nili rukorera mu Rwanda; ndetse hirya hakaba hari n'igikarito kivamo aya mazi.

Aha ni mu ikusanyirizo ry'amata rya Nyanza aho aborozi bazana umusaruro wabo hano muri iki cyuma gikonjesha kugira ngo amata adapfa, bityo abakiriya bakayagura ameze neza.

Aha ni ahantu habugenewe hacururizwa amata y'inshyushyu, ndetse n'ikivuguto hakaba hari umugore uri kuvugira kuri telefone igendanwa, imbere ye hari imeza n'akabati k'amandazi.

Ibi ni ibyuma bibiri byabugenewe mu kubika ubushyuhe by'igihe kirekire, bashyiramo icyayi cy'amata cyangwa cya mukaro, hirya hakaba hari indobo irimo capati iteretse ku kameza k'ubururu.

Iyi ni ifoto yafashwe na Gugo, ikaba yerekana ahantu hari umukobwa uri kugenda, hirya ye yari imodoka yo mu bwoko bwa Toyota. Inyuma ye hari inzu z'ubucuruzi, ziganjemo aho abantu bagurira imiti ndetse n'aho bagurira amata.

Aya ni amandazi ari ku isahane nini cyane, akaba akorwa mu ifarini hakifashishwa amazi, isukari. Akaba azwiho kugira intungamubiri.

Ibi ni ibipapuro bipfunyikwamo amandazi ndetse nibindi bikomoka ku ifarini bikaba biba bikungahaye ku ntungamubiri z'ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga.

Uyu ni umukobwa uri mu nzu y'ikusanyirizo ry'amata, aho arimo aravoma mu kavido k'umweru, ayakura mu cyuma gukonjesha kugira ngo atangirika.

Izi ni indobo ebyiri zibonerena, ziteretse ku meza y'igiti, zikaba zirimo amandazi, ahandi arimo umutsima, bikaba bikorwa mu ifarini y'ingano, bashyiramo isukari, amazi, n'amavuta.

Iri ni ishami ry'uruganda rwa Nyanza, Nyanza nk'ahantu tuzi haba inka nyinshi akaba ari hamwe mu hantu bagemurira amata ndetse n'abakiriya bakaba ari hano baza kugurira amata igihe bayakeneye.

Uyu n'umukozi wo munzu icururizwamo amata y'uruganda rw'inyange, akaba yambaye ishati y'ikigina arimo arayavomera muyijage y'umweru.

Aha ni mumasaha y'ijoro ku iduka ricuruza ibinyobwa by'inyange aho dusangamo amata, amazi ndetse n'imitobe igiye itandukanye.

Iri ni iduka ricuruza amata atuganywa agahindurirwa uburyohe ndetse n'amabara agiye atandukanye, hakaba harimo n'icyapa hejuru kiranga amazina yabo.

Aha ni ahantu habugenewe hagurirwa amata ndetse n'aborozi bajyana umusaruro w'amata yabo, hakaba hahagazemo umukobwa uri kwishyura umucuruzi.

Iri ni icupa rirerire ry'uruganda rwa Nili rukora amazi rukanayatunganya, ku ruhande hakaba hari udukopo dutoya turimo amata atunganywa agahindurirwa ibara ndetse n'uburyohe.

Iyi ni isambusa ikorwa mu ifarini ndetse n'inyama, bakayishyira mu mavuta ashyushye igashya, ikaba iteretse ku isahane y'ubururu; igira kandi intungamubiri nyinshi cyane.

Uyu ni umugabo ndetse n'umwana we, bari kunywera amata mu itasi, imbere yabo hari amasahani ateretse ku meza y'umweru, hakaba hahagaze n'umugabo uri kubavugisha ku ruhande rwabo.

Uyu ni umugore w'umukiriya uhagaze mu nzu icururizwamo ibyo kunywa bidasembuye, byiganjemo imitobe, fanta, ndetse n'amata. Hakaba hanacuruzwamo imineke n'ibindi byo kurya bitandukanye.

Uyu ni umukobwa wambaye amaherena ndetse unifubitse umupira w'imbeho akaba yicaye akaba yicaye ashyize amaboko ye ku meza mu inzu yabugenewe yo kunyweramo amata.

Aha ni mu nzu yagenewe kubikwamo amata yatunganyijwe neza, hakaba harimo utubati tureture dusize ibara ry'umukara ndetse n'utubido tw'umweru.

Aha ni mu nzu yabugenewe icururizwamo amata aba yaratunganijwe agahindurirwa ibara n'uburyohe yongerewemo isukari, hari imeza y'umweru n'intebe zisa nk'ikigina.

Uyu mugabo ari kwishyura umwana w'umukobwa wicaye ku ntebe y'ubururu, mu iduka ricuruza ibyo kunywa bidasembuye, aho dusangamo amata, ji, icyayi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iki ni icyuma cyabugenewe kinini cyane gishyirwamo amalitiro menshi y'amata aba akenewe kubikwa igihe kirekire mu gihe bategereje abakiriya bazaza kuyigura.

Iyi ni inzu yabugenewe icururizwamo amata y'uruganda rwa mukamira hakaba harimo umukobwa wambaye imyenda y'umukara wicaye kuntebe y'umweru inyuma ye hari icyuma gikonjesha amata.

Aha ni mu nzu yabugenewe, y'ubucuruzi bw'amata, icyayi ndetse na fanta. Hakaba hicaye umugore ufite amafaranga mu ntoki, uri kwishyura umucuruzi ibyo yahanywereye.

Iyi ni inzu yabugenewe icururizwamo amata y'ikigo Inyange hakaba harimo icyuma kiyakonjesha gisa umweru inyuma hari imitobe itandukanye iri mu kabati.

Uyu ni umukozi wo mu nzu icururizwamo amata y'uruganda rw'i Nyanza. Akaba yambaye umupira w'umukara n'ijipo y'umweru, aho arimo aratambuka.

Aha ni mu nzu yabugenewe, inywerwamo amata ndetse n'imitobe itandukanye, hakaba harimo abantu batatu bari kunywera mu matase ndetse bicaye no ku ntebe z'umweru.

Iki ni icyuma cyabugenewe mu kubika amata y'inshyushyu, kiyarinda kuba yakwangirika ndetse kikanayakonjesha, kikaba gisa ibara ry'ubururu n'umweru, hejuru hateretseho udutambaro two guhanaguza.

Iyi ni inzu icururizwamo amata n'indi mitobe akaba ari iy'uruganda rw'inyange, hakaba hari n'intebe z'uruganda rwa burarirwa zanditseho pirimusi.

Aya ni amata atunganywa, agahindurirwa isura ndetse n'uburyohe, akongerwamo ibirungo, akaba akorwa n'uruganda rwa Masaka, rukorera mu karere ka Kicukiro.

Utu ni uduti twifashishwa mu gihe usukura amenyo yawe iyo urangije kurya inyama, imbuto n'ibindi biryo bifata mu menyo ndetse bikagufasha gukora isuku neza mu kanwa kawe.

Uyu ni umugabo uhagaze mu nzu yabugenewe icururizwamo amata, ibyayi ndetse n'amandazi, imbere ye hakaba hari imeza isa umweru ndetse n'ijagi y'ubururu.

Aha ni mu iduka ricuruza amata y'uruganda rw'Inyange ndetse n'imitobe y'uru ruganda, hakaba harimo amabara asa ubururu ndetse n'umweru n'indobo zirimo amandazi.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu cy'uruganda rwa Nyanza rukora amata, kikaba gishushanyijeho inka ndetse n'utundi dukarito n'utubido dutandukanye.

Aya ni amazi y'uruganda rwa nile aba afite isuku iri ku rwego rwo hejuru, hariho ibirangantego byabo biri mu ibara ry'ubururu, ku ruhande hari igipapuro cya kaki cyangenewe gupfunyikamo ibicuruzwa.

Aha ni munzu yabugenewe icururizwamo amata, hakaba harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru, uri gukoresha telefoni ye yishyura, akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gutanga amafaranga utayanyujije mu ntoki.

Uyu ni umugore wambaye ikanzu itukura akaba ahagaze ku ruhande rw'icyuma gishyirwamo amata, kikaba kiyakonjesha kikayarinda kuba yakwangirika.

Iki ni icyuma gikonjesha amata ndetse n'ibindi binyobwa cy'uruganda rwa Mukamira, kikaba gisa ubururu inyuma hakaba hari amacupa agiye atandukanye y'amazi.

Iki ni ikirahure kirimo amata y'inshyushyu giteretse kumeza hirya hari agacupa k'amazi gakorwa n'uruganda rwa Nil.

Iyi ni inzu y'uruganda rw'Inyange rutunganya amata, amzi, n'imitobe itandukanye harimo icyuma gikonjesha gisa umweru.

Aya ni amata atunganywa agahindurirwa uburyohe ndetse n'ibara akorwa n'uruganda rwa masaka akaba ari mu dukopo dusa umuhondo ndetse n'umutuku.

Aha ni mu nzu yabugenewe inywerwamo amata ndetse n'imitobe itandukanye, hakaba harimo abantu batatu bari kunywera mu matase ndetse bicaye no ku ntebe z'umweru

Aha ni mu nzu yabugenewe icururizwamo amata y'uruganda rwa Mukamira, hakaba hicayemo umugore wambaye ibitenge ndetse n'umucuruzi waho wicaye ku ntebe y'ubururu.

Iri ni iguriro ry'ikigo Inyange, gucuruza amata atunganyije neza mu buryo bw'isuku, bakaba bayabika mu cyuma kiyakonjesha, kikayarinda twangirika, bityo rero akabikika igihe kinini agifite ubuziranenge.

Uyu ni umutobe ufashwe n'umuntu, ukaba uri mu gakarito kariho ibishushanyo by'icunga, rikaba ari urubuto ruzwiho kugira intungamubiri zikize ku byubaka umubiri ndetse n'ibikomeza umubiri.

Uyu ni umugore uhagaze mu nzu inywebwamo amata ndetse n'indi mitobe itandukanye, aho arimo aravugana n'umucuruzi wabyo, inyuma ye hakaba hari icyuma gikonjesha cy'umweru.

Iyi ni inzu yabugenewe, icururizwamo amata, hakaba harimo ingunguru nyinshi cyane, zishyirwamo umukamo w'inka, mu gihe baba bategereje kuyashyira mu byuma bikonjesha.

Aha ni munzu yabugenewe icururizwamo amata y'ikivuguto ndetse hakaba hari n'ibikombe bibiri byankwerewemo hirya hari akabido k'umweru ndetse n'intebe y'umweru.

Ibi ni ibyuma binini byabugenewe mu kubikwamo amata, bikaba bifiteho udutiyo tuje imbere, two bifashisha bafungura ndetse banafunga amata mu gihe barimo barayaha umukiriya.

Aha ni mu nzu yabugenewe yo gacururizwamo amata, hakaba harimo umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku. Ateruye jage mu ntoki irimo amata agiye guha umukiriya.

Iri ni irindazi riri ku isahani iteretse ku meza rikorwa mu ifarini y'ingano aho bifashisha amazi, isukari ndetse n'amavuta rikaba rizwiho kugira intungamubiri nyinshi cyane.

Aya ni amasambusa akorwa mu nyama ndetse no mu ifarini babumbabumba mu kinyampande cya mpande eshatu, bakayakaranga mu mavuta; akaba azwiho kuba agira icyanga cyo ku rwego rwo hejuru.

Uyu ni umuguzi waje kugura ibyo kurya birimo amasambusa ndetse n'amandazi, n'imutobe yo kunywa, akaba ari kubihabwa n'umucuruzi ufite igipapuro cya bugenewe mu gushyiramo ibicuruzwa.

Aha ni munzu yabugenewe yo kunkweramo amata y'ikivuguto ndetse n'inshyushyu hakaba harimo abantu benshi batandukanye bishimye barimo barasogongera kumata.

Iki ni icyapa kinini cyane gisa ubururu, cy'uruganda rw'Inyange rutunganya amata, amazi, imitobe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho barimo baramamaza ibikorwa byabo.

Iyi ni inzu icururizwamo amata ndetse n'ibindi byo kurya byoroheje, hakaba harimo umwana mutoya, uri mu kigero cy'imyaka icumi, uhagaze ku kabati gasa ubururu, akaba arimo arahabwa ibyo yaguze n'umucuruzi waho.

Uyu ni umugabo ufashe telefone mu ntoki, akaba afite n'ikarita ya banki. Aho ari gukura amafaranga kuri konte ye ari buze gukenera muri iri soko agiye guhahiramo.

Aka ni agashami ka MTN gashingwa hantu runaka hari abantu benshi, mu rwego rwo kubarinda umwanya wo kujya ku cyicaro gikuru, bakabegereza ibikorwa byabo hafi.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'itumanaho cya MTN, aho arimo arandika mu ikayi, anaha umukiriya amafaranga yabikuje kuri telefone ye.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni akaba ahagaze mu kazu k'umuhondo kariho n'ibirangantego byabo ategereje abantu baza ngo abafashe.

Iyi ni inzu igendanwa, ivanwa ahantu hamwe ikajyanwa ahandi; y'ikigo cy'itumanaho cya MTN ikaba iri mu mabara y'umuhondo ndetse harimo n'umukozi wacyo.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, uri kuganira n'umutwazi w'ikinyabiziga cya moto cyikoreya agasanduku gatwarwamo ibiryo k'umweru.

Uyu ni umucuruzi uri kureba ko umuguzi yishyuye akoresheje uburyo bwa telefone bwo guhererekanya amafaranga birinda umuntu kuba yatakaza amafaranga cyangwa akayabura bya hato na hato.

Aka ni akazu k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene gishinzwe n'ihererekanywa ry'amafaranga kakaba kari mu ibara ry'umuhondo, handitseho ko umuntu akanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri kugira ngo abashe kuba yakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bagennye.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni gishinzwe n'ihererekanwa ry'amafaranga, urimo urabarura umukiliya amwandika ngo amuhuze n'imikoreshereze y'iki kigo.

Iri ni rimwe mu mashami y'ikigo cya MTN gishinzwe ibijyanye n'itumanaho ndetse no guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga, hakaba harimo abakiriya baje kwaka zimwe muri serivisi iki kigo gitanga.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni wicaye mu kazu karimo amabara y'umuhondo akaba ategereje ko abakiriya baza akabafasha kubitsa no kubikuza.

iyi ni inzu iri mu mabara y'umutuku ikorerwamo umukozi w'ikigo cya eyateri, gishinzwe ibyo guhererekanya amafaranga ndetse n'itumanaho, rya telefone na za mudasobwa mu Rwanda.

Iyi n'inzu ikora agashami gato k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni hakaba hakorerwamo ibikorwa byo gufasha abakiriya gukemura ibibazo byabo bishingiye ku ikorana buhanga bidasabye ko bajya ku cyicaro gikuru.

Uyu ni umukiriya w'ikigo cy'itumanaho, kinashinzwe ihererekanya ry'amafaranga aho arimo aroherereza abashuti be amafaranga, hifashishije telefoni igendanwa.

Aha ni ku cyicaro k'ikigo k'itumanaho cya MTN gishinzwe n'ihererekanwa ry'amafaranga anyura ku ikoranabuhanga hakaba hahagazemo umusore wambaye umupira w'ubururu imbere ye hari inyakiramashusho irimo ikirangantego cya telefone.

Aba ni abakiriya bageze muri batanu b'ikigo cy'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga cya emutiyeni. Aho bari kumwe n'umukozi w'icyi kigo, ari kubasobanurira bimwe mu byo bakora ndetse anabafasha mu bibazo binyuranye bagiye bamubaza.

Iki ni icyapa cy'umuhondo cy'ikigo cy'itumanaho cya MTN, gishinzwe no kwishyurana dukoresheje ikoranabuhanga, aho bari gushishikariza abantu kwishyura bakoresheje telefone igendanwa, ku buryo badakatwa amafaranga na make.

Aba ni abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni batatu, bakaba bari mu mutaka w'umuhondo, inyuma yabo hari umukiriya barimo barafasha.

Uyu ni umukiriya ndetse n'umukozi wa MTN aho bari kuganira kugirango afashwe gukemura ibibazo ahura nabyo mu gihe akoresha uyu muyoboro w'itumanaho ndetse no guhererekenya amafaranga.

Iri ni ishami ry'ikigo k'itumanaho cya emutiyene aho umuturage wese aza gufatira serivise zabo, ndetse banamamaza bimwe mu bikorwa bishyashya baba bageneye abantu.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'itumanaho cya Emutiyeni, wambaye umupira w'umweru, yicaye ku ntebe y'umukara, akaba akikijwe n'abantu benshi b'abakiriya arimo arafasha kunogerwa na servise z'iki kigo.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN, akaba anambaye imyenda iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, bimwe mu birangantego by'iki kigo; aho ari kwigisha umukiriya kwishyura akoresheje telefone igendanwa.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga ndetse kikanatanga serivise z'itumanaho cya emutiyeni; aho ari mu bukangurambaga yamamaza, afite imyenda n'ingofero biri mw'ibara ry'umuhondo bigaragaza iki kigo.

Aba n'abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya MTN bari munsi y'umutaka w'umuhondo, hirya yabo hari icyapa kimeze nk'ikiziga cy'umuntu yifashisha ari gutombora ibikoresho birimo telefone, amafaranga ndetse n'udukomo.

Aba ni abakobwa batatu bishimye, inyuma yabo hari ibirangantego by'inzoga ya pirimusi, hakaba harimo umukobwa wambaye umupira w'ubururu wanditseho momo, ariyo kampani ishinzwe gufasha abantu kwishyurana hagati yabo bakoresheje ikoranabuhanga.

Uyu ni umuguzi ufite impapuro zabuganawe mu gupfunyika ibyo kurya cyangwa ibindi bicuruzwa ibyo ari byo byose, urimo uragenda anyura hafi y'ahantu haherereye abakozi b'ikigo k'itumanaho kinakora iby'ikoranabuhanga cya emutiyene

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, ndetse hakaditseho n'amazina y'umucuruzi, cyerekana ko ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inane na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyeri rimwe, akanyenyeri kode yawe ukarenzaho urwego, bityo ukabasha kwishyura ukoresheje telefoni.

Iki n'icyapa kiri mu mabara y'umuhondo cy'ikigo cya MTN gishinzwe itumanaho ndetse n'ihererekanywa ry'amafaranga aciye kuri telefone aho bari kwerekana uburyo bwa kode umuntu akanda agashyira iyi mibare muri telefone ye bityo akabasha kwishyura.

Icyi ni icyapa cyigaragaza uburyo bwikorana buhanga bw'ikigo cya emutiyene, aho umuguzi yishyura umucuruzi akoresheje telephone agashyiramo kode y'imibare bikamufasha kuba yakwishyura bitamusabye gukoresha amafaranga mu intoki, ndetse bikamurinda kuba yata amafaranga igihe ayatwara mu intoki.

Aka ni akazu k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene gishinzwe ihererekanya amafaranga aciye kuri terefone kakaba kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu

Aha ni munzu y'ikigo k'itumanaho cya eyateri, gishinzwe no guhererekanya amafaranga gikorera hakaba higanjemo ibara ry'umutuku n'umweru.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya MTN gishinzwe itumanaho mu Rwanda akaba ari kuganira n'umukiriya, amufasha gusobanukirwa na serivise batanga.

Uyu ni umucuruzi ukorana n'ikigo k'itumanaho cya emutiyene gishinzwe guhererekanya amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga, akaba ari kwerekana kode yishyurirwaho amafaranga.

Uyu ni umukozi w'ikigo MTN, aho ari gufasha umukiriya gusobanukirwa neza uburyo bwo kwishyura ukoresheje terefoni mu rwego rwo kwirinda kugendana amafaranga muntoki.

Iyi ni inzu iri mu mabara y'umuhondo ihagazeho umugabo wambaye ikote ry'umukara uri kuvugana n'umukozi w'ikigo k'itumanaho cya MTN.

Aha ni mu nzu ikigo cya emutiyeni gishinzwe itumanaho gikorera, hakaba hari abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo, n'undi umwe wambaye ishati, uri kubabaza ibibazo.

Aba ni abakiriya b'ibigo bibiri by'itumanaho bikomeye hano mu Rwanda harimo emutiyeni ndetse na eyateli, bikaba bishinzwe iby'ihererekanywa ry'amafaranga anyura kuri terefone.

Iyi ni inzu yimukanwa ahantu aho ari ho hose, y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, harimo umukozi wacyo uri kuganira n'umukiriya uhagaze hanze, aho ari kumusobanurira ibijyanye na serivise batanga.

Iki ni icyapa cy'umuhondo k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene kiriho uburyo bwo kwishyura ukoresheje kode aho birinda umuntu kugendana amafaranga mu ntoki.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya emutiyeni gishinzwe itumanaho ndetse n'ihererekanwa ry'amafaranga dukoresheje telefone, akaba ari mu mutaka w'umuhondo anambaye ijire y'umuhondo, aho ari gufasha umukiliya kunogerwa na serivise zabo.

Aka ni akazu k'ikigo k'itumanaho ka MTN gasize amabara y'umuhondo mo imbere hakaba harimo umukozi wacyo wambaye agapfukamunwa ku ruhande hari n'umukiriya wambaye ingofero n'ishati barimo baravugana.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, akaba ahagararanye n'umukiriya ari gusobanurira uburyo yaguramo murandasi yihuta cyane, akanze akanyenyeri, gatatu, kane, gatanu, akanyenyeri, rimwe, urwego.

Iyi ni umukiriya uri gukoresha telefone, yifashishije uburyo bwagenwe bw'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene cyangwa eyateli, aho bakoherereza kode muri telefone yawe, ukabasha kureba umubare w'amafaranga usigaranye ndetse n'ayo uba warakoresheje uko angana.

Aba ni abagabo babiri harimo umwe ukorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, wambaye umupira w'umuhondo urimo amabara y'ubururu n'undi w'umukiriya arimo arigisha uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga rya telefone igendanwa.

Aba ni abakiriya b'ikigo cya emutiyeni, gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, ndetse no kohererezanya amafaranga hifashishijwe ikoramabuhanga, bakaba barimo barabaza ibibazo umukozi w'iki kigo.

Aka ni akazu k'umuhondo kagendanwa k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, hakaba harimo n'umukozi wacyo uri gusobanurira abakiliya uko batanga serivise zabo.

Aha ni mu isoko rya kijyambere aho umucuruzi akoresha mudasobwa yakira amafaranga anagenzura neza ko abantu bishyuye bakoresheje ikoranabuhanga rya terefone.

Iyi ni inzu igendanwa ivanwa ahantu hamwe ikimurirwa ahandi y'ikigo cya eyateri gishinzwe itumanaho ndetse n'ihererekenywa ry'amafaranga hifashishijwe terefone igendanwa.

Iki ni icyapa cy'umuhondo kiriho uburyo bworoshye bwo kwishyura ukoresheje telefone, aho ushyiramo kode y'umucuruzi bityo ukabasha kuba wamuha amafaranga.

Iyi ni inzu y'ikigo k'itumanaho cya emutiyene iri mu mabara y'umuhondo ikaba ihagazeho umugabo wambaye umupira w'umukara, arimo arahasaba serivise zitandukanye iki kigo gitanga.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni gishinzwe no guhererekanya amafaranga hifashishijwe terefone igendanwa, akaba ari kuvugana n'umukiliya w'ikikigo amusobanurira ibintu bigiye bitandukanye.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, akaba yambaye umupira w'umuhondo afite terefone mu ntoki, aho ari kuganira n'umugabo wambaye umupira w'umukara ufite igare.

Aba ni abakozi b'ikigo k'itumanaho cya emutiyene gishinzwe no guhererekenye amafaranga hifashishijwe terefone, bambaye imipira y'umweru bahagararanye n'umukirya uri gukoresha terefone igendanwa.

Aha ni ku kicaro k'ikigo gishinzwe itumanaho no guhererkanya amafaranga cya Airtel, hakaba higanjemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hicaye n'umukozi w'iki kigo uri gutanga ubufasha bugiye butandukanye.

Aha ni mu isoko ricuruza imbuto, imboga, ndetse n'ibirungo bishyirwa mu biryo, hakaba hari n'icyapa hejuru, cy'umuhondo, n'uburyo bwo kwishyura ukoresheje telefone bifashisha.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, gishinzwe n'ihererekanyamafaranga anyura kuri telefone, ari kuvugana n'umukiriya wambaye umupira w'umukara n'umweru, amufasha gusobanukirwa n'ibikorwa by'iki kigo.

Uyu ni umugabo uri gukoresha terefone igendanwa, afite ikarita ya banki ifasha umukiriya kuba yasaba ko bamwemerera kubikuza mu gihe icyo ari cyo cyose yaba ayakeneye.

Uyu ni umukiliya uri gukoresha telefone yishyura akoresheje uburyo bwo kwishyura bw'ikoranabuhanga bwa emutiyeni, aho aherereye kugashami gashinzwe gutanga amavuta atuma imodoka igenda.

Uyu ni umukiriya w'ikigo k'itumanaho cya MTN akaba yambaye umupira w'umuhondo yatsindiye moto mu irushanwa iki kigo cyari cyarateguye.

Uyu ni umuntu uri gukoresha terefone yo mu bwoko bw'amatushe, aho ari kwishyura akoresheje kode k'umucuruzi witwa Jean Bosco. Bikaba bimufasha kwishyura amafaranga bitamusabye kuyagendana mu ntoki.

Aka ni akazu kimukanwa k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene Rwanda, hakaba hahagaze abantu babiri bari kuganira n'umukozi wacyo abafasha kubitsa no kubikuza amafaranga hifashishijwe terefone zigendanwa.

Aba ni abakiriya b'ikigo k'itumanaho cya MTN bakaba bahagaze imbere y' akuzu k'umuhondo gakoreramo umukozi w'iki kigo uba ubaha serivise zijyanye no kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga ukoresheje terefone.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya MTN gishinzwe itumanaho mu Rwanda akaba ari gusobanurira umubyeyi w'umukiriya uri hano uburyo bwo kwishyura ukoresheje terefone.

Aka ni akazu kabugenewe kimukanwa kakavanwa ahantu hamwe kakajyanwa ahandi k'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni gishinzwe guha abantu serivise zigiye zitandukanye.

Aba ni abakiriya b'ikigo cy'itumanaho cya MTN gishinzwe n'iby'ihererekanwa ry'amafaranga anyuze kuri telefoni, bakaba bari munsi y'umutaka w'umuhondo ukoreramo umukozi w'iki kigo.

Aba ni abakozi b'ikigo k'itumanahao cya emutiyeni bambaye imipira y'imihondo bakaba bari kuganira n'umukiriya, inyuma yabo hari inyakiramashusho iri kwaka.

Uyu ni umukiriya ufite igipapuro cyabugenewe gitwarwamo izindi mpapuro cyangwa amafaranga akaba ari ku kazu k'ikigo k'itumanaho cya Mtn gakoreramo umukozi ugenda abafasha serivise zitandukanye.

Iyi ni terefone irimo gukoreshwa n'umuntu uri ku rubuga rwa murandasi rw'ikigo k'itumanaho kitwa eyeteri, aho ushobora kunogerwa na serivisi zo guhererekanya amafaranga bidasabye kuyagendana mu ntoki.

Iki ni icyapa cy'umuhondo cy'ikigo cy'itumanaho cya MTN, kigaragaza k'uburyo bworoshye cyane bwo kwishyura ushyizemo nimero y'umucuruzi ugahita ushyiraho umubare w'ibanga wawe wa telefone, bityo ukabona kwishyura amafaranga.

Iyi ni inzu igendanwa kuko ushobora kuyivana ahantu hamwe ukayimurira ahandi, ikaba ari inzu y'ikigo cy'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga cya emutiyeni. Aho bashyiramo umukozi ufasha abakiriya kunogerwa na serivise z'iki kigo.

Iki ni icyapa cy'umuhondo kiriho ikirangantego k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene kikaba kirikwerekana uburyo bwo kwishyura wifashishije telephone.

Iyi ni inzu yabugenewe yikigo cyitumanaho cya MTN ifasha abakiriya hirya no hino kubona serivise zacyo bidasabye ko bajya kucyicaro gikuru cyicyi kigo.

Aha ni ahantu ikigo k'itumanaho cya emutiyeni gihitamo bitewe n'umubare runaka w'abaturage bahatuye bari kwamamaza ibikorwa byabo kugira ngo bimenyekane hose.

Iki ni icyapa cya MTN gishishikariza abaguzi kwishyura abacuruzi bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka momopeyi, mu buryo bwihuse kandi bikabarinda kugendana amafaranga mu ntoki.

Aha ni ahantu ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni gishinga agashami, hakaba hari ibyapa by'umuhondo, ndetse n'abakozi benshi cyane bafite za mudasobwa, imbere yaho hari umugabo wambaye ishati y'umweru, w'umukiriya.

Iki ni ikigo cya emutiyeni gishinzwe gutanga serivisi z'ikorana buhanga zidufasha kwishyurana hagati y'umucuruzi n'umukiriya bidasabye ko dukoresha amafaranga mu ntoki dukoresheje telefone.

Iyi n'inzu y'umuhondo y'ikigo cy'itumanaho cya MTN ikaba ikorerwamo n'umukozi uba ashinzwe kuba yaha abaturage batuye mugace runaka ubufasha bwo kubahuza n'iki kigo hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefone.

Aha ni ahantu ikigo cy'itumanaho cya eyateri gishinga amahema, mu rwego rwo gukurura abakiriya benshi cyane. Harimo abantu batandukanye ndetse n'abakozi b'iki cyigo bambaye imyenda y'umutuku.

Aba n'abakiriya bikigo kitumanaho cya MTN, bakabaje gusa uyumukozi wabo kuba yabahuza n'uburyo bwo kwishyurana ukoresheje telefone.

Iyi ni telefone iri mu gakarito k'umuhondo, ku ruhande rwayo hari icyapa cy'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, cyerekana uburyo bwiza bwo kwishyura, bw'ikiranabuhanga, aho batagukata amafaranga.

Aba ni abakozi b'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni gishinzwe ihererekanywa ry'amagaranga bambaye imipira y'imihondo, bakaba bari kumwe n'undi mugabo uri inyuma yabo wambaye umupira w'umweru.

Iyi ni inzu ya emutiyeni ihagazemo abantu bagiye batandukanye baje kwaka serivisi z'ikorana buhanga z'ikiragano cya kane zizwiho kwihuta kuri murandasi mu gihe uri gushakishaho ibintu bigiye bitandukanye.

Iki ni ikigo cyahoze cyitwa SORAS, none ubu kikaba cyitwa Sanlam; gishinzwe kugoboka abantu mu bwiteganyirize bwabo, mu gihe bagize impanuka cyangwa uburwayi; aho bari kwerekana uburyo bwo kwishyura ukoresheje kode kuri telefoni.

Uyu ni umucuruzi w'imyenda uri kumanika icyapa, kiriho nimero ya kode yo kwishyuriraho ya emutiyene, mu rwego rwo korohereza abakiriya kujya bamuha amafaranga mu buryo bworoshye.

Uyu n'umutegarugori w'umukozi wikigo cy'itumanaho cya emutiyeni akaba ari gusobanurira umugabo uburyo bwo gukoresha murandasi ukanze akanyenyeri gatatu kane gatanu akanyenyeri rimwe urwego.

Iyi ni inzu y'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni Rwanda iri mu ibara ry'umuhondo, handitseho imibare ukanda iyo ukeneye kubitsa cyangwa ukabikuza, ariyo akanyenyeri ijana na mirongo inane na kabiri urwego, ugakurikiza amabwiriza baguha.

Iyi ni inzu y'ikigo cy'itumanaho gishinzwe n'iherekanya amafaranga hifashishijwe telefone naza mudasobwa irimo umukozi w'iki kigo hanze hakaba hari umukiriya urimo uranogerwa na serivise zacyo.

Aba ni abakobwa babiri bishimye bambaye imipira y'umuhondo, iriho ibirangantego y'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni.

Aha ni mu iduka rinini cyane ricuruza ibicuruzwa byinshi aho hari umukiriya uri kwereka telefone umucuruzi amwereka ko yamwishyuye akoresheje uburyo by'ikoranabuhanga bwo guhererekanya amafaranga.

Uyu ni umuntu ufashe telefone yo mu bwoko bwamatushe akaba ari kwishyura amafaranga yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bw'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni cyo mu Rwanda.

Iki ni icyapa cy'umuhondo k'ikigo cya emutiyeni cyamamaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho ukandamo kode z'umucuruzi ukamwishyura ukoresheje telefone.

Aba ni abakobwa babiri bakorera ikigo cya emutiyeni, aho bashinga amahema ariho ibirangantego byabo, mu rwego rwo kwamamaza ibyo bakora, ndetse no gufasha abantu kunogerwa n'ibi bikorwa byabo.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni, ndetse n'umukiriya aho bari kwerekana ibyiza byo kugura ukishyura ukoresheje telefone, mu rwego rwo kwirinda kugendana amafaranga mu ntoki.

Uyu ni umutaka w'umuhondo n'ubururu w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, baha abakozi bacyo bakorera hirya no hino mu masoko atandukanye, baba bafasha abantu kubikuza amafaranga no kuyabitsa bifashishije telefone zigendanwa.

Ubu ni uburyo bushyashya butamenyerewe cyane mu Rwanda aho umuntu afata telefone ye agafotora indi telefone ari gufotora kode runaka bigatuma bihita byihuza mu buryo bwo kwishyura bidasabye ko ukanda kanda imibare myinshi.

Iki ni ikigo cya Eyateri gishinzwe itumanaho mu Rwanda. Bakaba bari mu bukangurambaga bwo gishishikariza abaturage hirya no hino mu gihugu, kumenya ibyiza by'iki kigo bakora, ndetse banabafasha kunogerwa n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse n'izindi serivisi zabo.

Iki ni icyapa cy'umuhondo k'ikigo k'itimanaho ndetse nihererekanya mafaranga cya emutiyeni kiriho kode ushyiramo y'umucuruzi iyo ukeneye kumwishyura ukoresheje telefone.

Aka ni akazu kimukanwa ahantu hamwe kakajyanwa ahandi kari mu mabara y'umuhondo n'ubururu n'umutuku k'ikigo cy'itumanaho cya MTN hahagazemo n'umukozi wacyo.

Ubu ni uburyo bwagenywe ni ikigo cy'itumanaho kikaba kinashinzwe ihererekanya ry'amafaranga, abantu bashobora kuba batombora amafaranga, imyenda, inkweto, ingofero ndetse n'udukomo.

Uyu ni umuhanzi w'icyamamare wambaye umupira w'umuhondo w'ikigo cya emutiyeni gishinzwe itumanaho bakaba bamwifashisha mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa byabo ngo bigere kure cyane.

Aba ni abagabo babiri, bambaye imipira isa umuhondo, bakorera ikigo cya emutiyeni, bakaba bari gukoresha mudasobwa zabo, bagenzura uko abantu bagenda bishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Iri ni ishami ry'akazu gato kimukanwa, k'ikigo gishinzwe itumanaho cya MTN Rwanda. Hakaba hari abagabo babiri bari kwaka serivisi zitangwa, ziganjemo izo kwishyurana amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Uyu ni umusore uhagaze mu kazu k'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho cya emutyeni, akaba shinzwe kuba yaha serivise abakiriya baza bamugana, ari abakeneye kubikuza ndetse no kubitsa binyuze kuri telefone igendanwa.

Aha ni kuri imwe mu mashami makuru y'ikigo cya Mtn aho bakira imbaga y'abantu benshi baturutse imande ni mande baba baje kwaka serivise zitangwa n'ik'ikigo ndetse abandi baje kuba abacuruzi bazajya bagikorera hirya no hino.

Iyi ni inzu iriho amabara y'umuhondo, ikaba iriho n'ibishushanyo bya telefone, by'ikigo cya emutiyeni gishinzwe itumahano, hakaba hiceyemo n'umukozi wacyo.

Uyu ni umuntu ufashe telefone mu ntoki, aho ari kwishyura ifatabuguzi rya murandasi, ryihuta cyane ritangwa n'ikigo cya MTN Rwanda.

Iyi ni inzu igendanwa y'ikigo k'itumanaho cya eyeteri ndetse n'umukozi wacyo n'abakiriya babiri barimo barasobanukirwa uko batanga serivise.

Ubu ni uburyo bw'ikigo cya emutiyeni abantu bifashisha bishyura bakoresheje kode, bikabarinda gukatwa amafaranga y'umurengera ndetse bikanihutisha serivise.

Aba ni abakozi b'ikigo k'itumanaho cya Mtn, barimo barakoresha telefone zakozwe n'uru ruganda rwabo ndetse banerekana ibyiza byazo.

Aba ni abakozi babiri b'ikigo cy'itumanaho cya MTN, gishinzwe n'iby'ihererekanya ry'amafaranga anyura kuri telefone, bakaba bahagaze imbere y'akazu k'umuhondo kariho ibirangantego by'iki kigo.

Utu ni utuzu tubiri dutandukanye kamwe kari mu mabara y'umuhondo k'ikigo cya emutiyene, akandi kari mu ibara ry'umutuku k'ikigo cya eyateri. Byose hamwe bishinzwe itumanaho.

Uyu n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho aho ari gufasha umumotari uri kuri telefone igendanwa kumenya uburyo butandukanye bwo gukoresha uburyo kwishyurana ukoresheje ikoranabuhanga.

Ubu ni uburyo bw'ikigo k'ikoranabuhanga cya emutiyeni bufasha abantu bakanda akanyenyeri gatatu kane gatanu akanyenyeri urwego ukaba wabasha kugura murandasi yihuta cyane.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cya Sosiyete ishinzwe Itumanaho ya MTN, aho kirimo kiramamaza uburyo bwabo bwiza bwo kwishyura ukoresheje telefoni aho batagukata amafaranga, bityo bikorohereza uwishyura kwishyura neza bitamugoye.

Aba ni abakiriya b'ikigo cy'itumanaho cya AIRTEL ndetse n'abakozi bacyo bakaba bicaye mw'ishami ryiki kigo ririho amabara atukura yiganjemo ndetse n'inyakira mashusho iri imbere yabo barimo barareba ibintu bigiye bitandukanye.

Aba ni abagabo babiri bari kwishyura bifashishije telefone, nka bumwe mu buryo bwiza kandi bugezweho bwo kwishyura bitakugoye; birinda abantu kugendana amafaranga muntoki.

Aba ni abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya MTN, bakaba bambaye imipira y'umuhondo, imbere yabo ku meza hari telefone z'abakiriya, aho bari kubafasha kubitsa no kubikuza amafaranga.

Aba ni abagabo babiri barimo barabyina, inyuma yabo hari undi mukobwa ndetse n'icyapa cya izihirwe, imwe muri gahunda y'ikigo cya'itumanaho cya MTN yageneye abakiriya bayo.

Aba ni abagabo batatu, bahagaze imbere y'inzu y'umuhondo y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni; aho bari kuganira n'umukozi wacyo, abafasha kunogerwa na serivise zitandukanye zabo.

Uyu ni umukiriya uhagaze ku kazu k'icyigo cya MTN, gishinzwe guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga; akaba ari gukoresha telefoni ye yakira amafaranga ayahawe n'umukozi w'iki kigo.

Iri ni ishami ry'ikigo cy'itumanaho cya MTN, riri mu mabara y'umuhondo, umweru, n'ubururu, bakaba barishinga ahantu runaka bitewe n'umubare w'abakiriya bashaka gukurura.

Uyu n umukiriya uri kwishyura akoresheje uburyo bwa emutiyene bwo gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeriumunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri nimero y'umucuruzi urwego warangiza ukishyura.

Iyi ni imodoka ya iposita, iri mumabara y'umuhondo na ubururu, ikaba ishinzwe gutwara ubutumwa bugiye butandukanye abantu baba bahanye ndetse na impano.

Uyu ni umukozi w'ikigo gishinzwe kugemura ibicuruzwa bitandukanye ku bantu baba babitumije akaba atwaye ikinyabiziga kiriho agasanduku k'umutuku babitwaramo.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya vuva vuba, gishinzwe kugemurira abantu ibintu bigiye bitandukanye, ndetse no kubatwaza ibicuruzwa, akaba arimo arabikura mu gisanduku cy'icyatsi cyabugenewe mu gutwaramo ibyo bicuruzwa.

Izi ni imbuga nkoranyambaga zo kuri murandasi, aho umuntu ashobora kugurisha ibicuruzwa bye yivuganiye n'abakiriya, mu masaha makumyabiri n'ane bikaba byabagezeho.

Uyu ni umutwazi wa moto utwaye igisanduku gisa icyatsi cyanditseho vuba vuba nk' ikigo gishinzwe kuba cyaha abantu ibintu baba batumije impande n' impande mu mugi wa Kigali.

Iyi ni moto y'ikigo cya Vubavuba gishinzwe kujyanira abantu ibintu baba batumije, kuri Murandasi bifashishije telefone, kikaba kibibagezaho aho baherereye hose mu mugi wa Kigali.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga bakoresha banyuze kuri murandasi, bigafasha abari n'abategarugori, igihe bakeneye ibikoresho by'isuku bifashisha mu gihe bari mu mihango ya buri kwezi.

Iyi ni moto yikoreye agasanduku kari mu ibara ry'icyatsi, hakaba handitseho ijambo vuba vuba, akaba ari ikigo gishinzwe gutwara ibicuruzwa ku baturage ku buryo bwihuse, bidasabye ko umukiriya yigerera ku isoko.

Uyu ni umukozi w'ikigo safi aho atwara iyi moto iriho igisanduku cy'icyatsi kiba kirimo ibicuruzwa abakiriya baba batumije impande n'impande mu gihugu na we akabibashyira.

Ibi ni ibinyabiziga bitatu bya moto biriho udusanduku inyuma tw'umweru ndetse n'ingofero irinda umutwe w'umutwazi kuba wakwangirika mu gihe akoze impanuka.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya vuba vuba gishinzwe guhahira abantu, batiriwe bava mu ngo zabo, aho bifashisha ikoranabuhanga bagatumiza ibyo kurya bitandukanye.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rufasha abantu guhaha ibyo kurya byiganjemo imbuto z'imineke, ibirayi n'imboga. Rukaba rworoshya ibikorwa byo guhaha, aho umuntu atumiza ibyo ashaka yibereye mu rugo.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rushinzwe kugurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ruri kugaragaza ko mu minsi mikuru y'ibiruhuko baba batanze ibicuruzwa bakabishyira ku giciro cyo hasi mu rwego rwo gukurura abakiriya benshi.

Uyu ni umumotari w'ikigo gishinzwe gucuruza ibiryo kuri murandasi, aho ushobora kumuhamagara aho uherereye hose akabikugezaho bidasabye ko ugera kuri resitora.

Uyu ni umumotari akaba atwaye moto yambaye umupira w'umutuku, inyuma ye hari igisanduku gitukura atwayemo ibiryo agemuye ahantu hagiye hatandukanye.

Iki ni ikirangantego kigaragaza ko iki kigo cyo kuri murandasi gishinzwe kugeza ibicuruzwa ahantu aho ariho hose kandi vuba, hifashishijwe ikoranabuhanga.

uyu ni umukozi wikigo gishinzwe gutwarara ibicuruzwa ku bantu baba babiguze cya safi akaba yambaye ingofero y'icyatsi irinda umutwe kuba wakwangirika igihe habaye impanuka.

Uyu ni umutwazi w'ikinyabiziga cya moto, akaba ari kwifashisha akamashini kamwereka ahantu aherereye kakanamubwira igihe asigaje ngo agere aho aryanye ibicuruzwa bye.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi, aho rufasha abantu kuba barema izindi mbuga z'ubucuruzi zigezweho zifasha abantu kugura no kugurisha biboroheye.

Uyu ni umukozi w'ikigo gishinzwe gucuruza ibyo kurya kuri murandasi, aho umuguzi yifashisha uru rubuga rwabo asaba ko bamugezaho ibyo yatumije aho aherereye hose mu mujyi wa kigali.

Izi ni moto nyinshi ziriho n'abatwazi bazo bambaye amakote yanditseho yego moto ari mu ibara ry'umutuku, imbere yabo hari imodoka yo mu bwoko bwa toyota y'umweru.

Uyu ni umukozi w'ikigo Vuba Vuba, gishinzwe gutwara ibicuruzwa hirya no hino mu gihugu, akaba ari kuri moto iriho igisanduku cy'icyatsi ndetse na we yambaye impuzankano y'icyatsi, agiye atwaye ibicuruzwa aho bamutumye.

Uru ni urubuga rwitwa kigure akadomo rwa umuntu akaba arutumizaho imyenda, inkweto ndetse n'ibiribwa yifashishije ikoranabuhanga rya mudasobwa.

Iyi ni kampani ikugezaho ibintu byose uba watumije, ikaba iba ifite umwihariko wo kubizana ku buntu nta mafaranga baguciye ndetse bakabikugezaho mu gihe cyihuse.

Uyu ni umugabo w'umutwazi w'ikinyabiziga cya moto, akaba akorera ikigo cya rashi gishinzwe gutanga ibiryo ku baturage baba babitumije bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi rwitwa "murukali", rushinzwe kugurisha ibicuruzwa birimo amavuta, udukoresho dufata imyenda ndetse n'imisatsi y'imikorano.

Uyu ni umumotari ufite urupapuro rwabugenewe mu gutwara ibicuruzwa, akaba ari kumwe na moto ye iriho igisanduku kinini cyane cy'umutuku cy'ikigo akorera gishinzwe gutwara ibicuruzwa abantu baba batumije.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rwo kuri murandasi aho umuguzi yifashisha mudasobwa ye cyangwa telefone igendanywa akabasha kubayatumiza ibicuruzwa akeneye byose.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga aho umukiriya ashobora kurusura akaba yatumizaho inkweto ndetse n'imyenda yifashishije wa wa wa akadomo kigure akadomo rwa.

Iki ni icyapa kinini cyane cy'ubururu cyanditseho Ihaha akadomo rwa, akaba ari ikigo gishinzwe gutwara ibicuruzwa ku bantu baba babiguze aho baba baherereye hose mu gihugu.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya kasha, akadomo, komu, aho ashinzwe kuba yatumika akazana ibintu umukiriya aba yatumije yifashishije telefone ye.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri umrandasi, umukiriya akaba arujyaho akabashs kubs yahaha yifashishije mudasobwa rukaba rwitwa isoko rigari, akadomo komo.

Ubu ni uburyo bwiza kandi bwihuse bufasha umuguzi kuba yagura ibicuruzwa imahanga yifashishije terefone ye mu gihe kitarengeje ukwezi bikaba byamugezeho aho aherereye hose mu gihugu.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi mu mugi wa kigali, rufasha abantu kuba bakora imbuga zidi zishnzwe, ibyo kugurishandetse no uhaha hifashishijwe ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rw'ikorabuhanga rwo kuri murandasi rukoresha bifashishije mudasobwa cyangwa terefone igendanwa bakugurisha ibicuruzwa bitandukanye bakabikuzanira ahantu hose waba uherereye mu gihugu.

Uru ni urubuga rwa enterinete rwo mu Burayi no mu Budage, rushinzwe korohereza abaguzi gutumiza ibicuruzwa bibereye aho ariho hose ku isi, bidasabye ko batega indege ngo bage ku ruganda.

Iki ni ikinyabiziga cya moto kikaba kiriho igisanduku kinini cyane cy'umutuku cyanditseho yego, akaba ari kampani ishinzwe kugemura ibicuruzwa bitandukanye aho uyihamagara ukanze icyenda rimwe icyenda rimwe bakagutumukira.

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi rukoreshwa n'abantu bakiyandikishaho, bagashyiraho imyirondoro yabo yose. Rukabafasha kuba batumiza cyangwa bakagura ibicuruzwa biri mu kindi gihugu cyangwa biri mu gihugu bidasabye ko bakora ingendo.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya Kasha gishinzwe kugeza ku baguzi ibintu baba baguze bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, akaba yambaye umupira w'umukara n'igisanduku cy'icyatsi, akuramo ibyo aba agemuriye abantu.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga, umuntu akoresha telefone cyangwa mudasobwa, akagura agapapuro kamwemerera kuba yakinjira mugitaramo cy'umuhanzi, mugihe akerekana aho binjirira.

Iri ni iguriro ry'imboga n'imbuto, aho abaguzi babyo bashobora gusanga amoko yose atandukanye yabyo; kuko akenshi usanga binakize ku ntungamubiri zirimo ibirinda indwara.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi, aho umuntu akoresha mudasobwa ye cyangwa telefone igendanwa, agatumiza ibicuruzwa ahantu hose yaba aherereye.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, ikaba isize irange ry'umutuku; inyuma ku kirahure hariho icyapa kigaragaza ko ari ikigo gishinzwe gutwaza abantu ibicururuzwa.

uyu ni umukozi w'ikigo gikorera kuri murandasi ugemuye igicuruzwa cyatumwe n'uyu mukiriya wambaye agapfukamunwa akaba ari kwakira ibyo yatumije

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi rufasha umuntu kugura ibintu akoresheje telefone ye, bikanafasha umucuruzi kuba yakugezaho ibyo waguze mu gihe cya vuba kandi bimworoheye.

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi, rushinzwe gukora izindi mbuga nkoranyambaga zifashishwa mu kugura no kugurisha ibicuruzwa hifashishijwe mudasobwa.

Uru ni urubuga rwo kuri Murandasi, rufasha umuntu kuba yagura cyangwa akagurisha igicuruzwa cye, aho agishyiraho umuntu ukeneye kuba yahaha akaza bakumvikana.

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi, rufasha abaguzi kuba bagura imyenda, inkweto, amasaha, n'ibindi byinshi, bifashishije telefone zabo.

Iki ni ikigo kitwa IRAS, gishinzwe gufasha abantu, kubatwaza amazi ndetse na gaze yo guteka igihe yabashiranye; ukaba ubandikira unyuze ku rubuga rwabo rwa watsapu bakakuzanira ibyo wabatumye.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi rw'isoko rya kimironko. Aho umuntu ashobora kuba yahaha amafarini, inyama, ibirungo ndetse n'imbuto bitamugoye, abitumije akoresheje telefone yiwe igendanwa.

Uyu ni umukozi w'ikigo gishinzwe kugemura ibicuruzwa ku bantu baba bagiye babitumiza impande n'impande mu gihugu akaba afite moto iriho igisanduku gisa oranje.

Izi ni moto enye n'abatwazi bazo, bakaba bafiteho ibisanduku bisa oranje, bipakirwamo ibiryo bigendwa bigemurirwa abantu baba babitumije bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi rufasha abantu kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'inkweto, aho utumiza ibyo ushaka bityo rero bakagutumikira bakabikuzanira aho uherereye hose.

Uru ni urubuga irembo, akadomo, komu, rwashyizweho na leta y'u Rwanda, kugira ngo rufashe abaturage kuba bashobora kwishyura imisoro n'amahoro, cyangwa bakabona izindi serivise za leta bifashishije telefone zigendanwa.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rikorera kuri murandasi aho umuntu ashobora kwishyura igicuruzwa yakunze ni uko na bo bakakimwoherereza bakoresheje abakozi babo bagenda babigemura hirya no hino.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi aho umuntu ashobora gutumizaho amasakoshi, terefone, imyambaro yifashishije terefone ye.

Uyu ni umutwazi w'ikinyabiziga cya moto, akaba yikoreye igisanduku cy'umutuku, gitwarwamo ibiryo abantu baba batumije bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'icyatsi yanditseho vuba vuba nk'ikigo gishinzwe kuba cyatwarira abantu ibintu baba baguze impande n'impande z'umujyi wa Kigali.

Uyu ni umukozi w'ikigo vuba vuba, aho atwaye agasanduku karimo ibicuruzwa abaguzi baba baguze bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bakamutuma akabatumikira.

Iki ni ikinyabiziga cya moto cyikoreye agasanduku inyuma gasa ubururu k'ikigo Kanisi gishinzwe gutunganya ibiryo, kikabigeza ku bantu bagiye batandukanye baba babitumije bifashishije telefone igendanwa cyangwa mudasobwa.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi, aho umuntu afata mudasobwa ye cyangwa telefone igendanwa, akabasha kuba yatumiza ibicuruzwa birimo inkweto, imisatsi, ibirungo by'ubwiza, ndetse n'imyenda, bitamusabye kuba yajya ku isoko.

Iki ni ikigo cy'ikoranabuhanga cyitwa Kasha, aho ugura ibikoresho by'isuku ndetse n'ibikoresho by'ubuzima, unashobora kandi gukoresha Telefone yawe ugakanda, icyenda rimwe, rimwe, urwego ukabasha kuba wakinjira muri izo serivisi z'iki kigo.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya vuba vuba gikorera kuri murandasi, aho umuntu abasha kuba yabatuma ibicuruzwa ashaka bakabimugezaho mukanya nk'ako guhumbya.

Aba ni abamotari bagera kuri bane, b'ikigo cyitwa Jumiya gishinzwe gutanga ibiryo, bakaba bari ku binyabiziga biriho udusanduku dusa oranje turimo ibiribwa.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rufasha umuguzi kuba yatumiza telefone, mudasobwa, intebe, imyenda, impano, n'ibindi bitandukanye, akoresheje murandasi.

Uyu ni umutwazi w'ikinyabiziga cya moto ukorera ikigo cya safi gishinzwe kuba cyageza ibicuruzwa ku bantu baba babitumije bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uyu ni umukozi w'umutegarugori w'ikigo cya vubavuba aho ari gukura ibicuruzwa mu gasanduku ko bifashisha batwaramo ibi bicuruzwa aho agiye kugatanga ku mukiriya.

Iki ni icyapa cy'ubucuruzi cy'ikoranabuhanga aho umuntu akoresha terefone igendanwa ye akabasha kuba yahaha imbuto mu isoko rya Kimironko ziganjemo inyama, amafarini ndetse n'amavuta.

Izi ni imbuga nkoranyambaga zo kuri murandasi, zifasha abaguzi kuba bahaha ibicuruzwa byose bakeneye bifashishije terefone cyangwa mudasobwa batavuye aho bari.

Aba ni abamotari batwaye ibiryo ndetse n'ibindi bicuruzwa bakaba babijyanye ahantu hagiye hatandukanye hari abakiriya baba babitumije bifashishije ikoranabuhanga rya telefone igendanwa.

Izi ni imbuga zo kuri murandasi zifasha kumenyekanisha ibicuruzwa ahantu hose hashoboka, zikanorohereza abaguzi kuba babona ibyo bagura bitabasabye kugera ku isoko, bakabikora bibereye iwabo.

Aba ni abamotar bari ku binyabiziga byabo, bikoresaha umuriro w'amashanyarazi inuma hakaba hariyo udusanduku dusa umutuku n'umweru, batwaramo ibicuruzwa baba batumwe n'abakiriya hibya no hino.

Aba ni abakozi b'ikigo cya Vuba Vuba, gishinzwe kugemurira abantu ibintu baba batumije, bakaba bambaye amashati y'icyatsi, bafite igisanduku cyo batwara mo ibicuruzwa kuri moto yabo.

Uyu ni umumotari, ushinzwe gutwara ibicuruzwa ndetse n'ibiryo muri aka gasanduku kari mu ibara ry'umuhondo na oranje; akabigeza kubantu baba babitumije hirya no hino.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi aho umuguzi yifashisha mudasobwa ye cyangwa terefone igendanwa agatumiza ibicuruzwa akeneye hirya no hino.

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi, rushinzwe gutanga ibicuruzwa kubantu bagiye batandukanye baba babitumije, bakoresheje telefone; rukabibagezaho hirya no hino mugihugu bidasabye ko bo bigerera ku isoko.

Aba ni abamotari bagera kuri bane, bakaba bicaye ku binyabiziga byabo, aho inyuma hariho udusanduku dusa ibara rya oranje, dutwarwamo ibicuruzwa ku bakiriya baba babitumije.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi aho rufasha umuntu kuba yagura akanagurisha ibicuruzwa mu bice bigiye bitandukanye by'gihugu cy' u rwanda.

Utu ni udusanduku tuba inyuma ya moto, twifashishwa bapakiramo ibiryo n'ibindi bicuruzwa umukiriya runaka aba yatumije aho ariho hose kugira ngo babimugezeho mu buryo bwihuse.

Uru ni urubuga rwo kuri Murandasi rw'ikigo mpuzamahanga gishinzwe gutwara ibicuruzwa hirya no hino ku Isi, kikaba ari icyo muri Leta zunze ubumwe z' Amerika.

Uru n'urubuga rw'ikoranabuhanga rwo kuri murandasi aho umuntu ashobora kugura imboga ndetse n'ibindi birungo bitandukanye yifashishije telefone akabitumiza.

Uyu ni umukobwa ufite telefone muntoki aho ari gukoresha urubuga rw'ikigo kitwa vuba vuba gishinzwe gutumwaho ibicuruzwa kikabikugezaho aho uherereye hose.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga, ruri kugaragaza abantu bari gukoresha mudasobwa, rukaba rufasha abantu guhaha buri kimwe bakeneye, bakoresheje murandasi.

Uyu ni umumotari ufite moto iriho igisanduku cyumutuku kinini gitwarwamo ibicuruzwa abaguzi baba baguze impande n' impande mumugi, aho aba abibashyiriye aho baherereye.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga, rushinzwe ubucuruzi mu Rwanda, rugaragaza ko ruri gukora cyane, rwagura imbago hirya no hino, rukaba rucuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, rukanafasha na barwiyemezamirimo batoya kwihangira imirimo kuri murandasi.